Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gufatira amafunguro ku ishuri, mu bigo by'amashuri abanza ndetse n'ibigo by'amashuri y'inshuke.

Mu rwego rwo gukundisha abana ishuri, abo mu nshuke ndetse n'abiga mu mashuri abanza, ababyeyi ndetse n'abarezi, bashishikarizwa kwifashisha ibishushanyo kugira ngo abana bakunde kwiga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke. Ni bamwe mu bagomba kwifashisha ibishushanyo biri mu mabara agiye atandukanye mu rwego rwo kugira ngo bakunde kwiga.

Ibishushanyo bitandukanye ndetse biri mu mabara atandukanye, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye bishushanya ibindi bintu bigiye bitandukanye, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bitandukanye ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi, yaba mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri y'inshuke, ibi bifasha abana kutarambirwa kandi bagakunda ishuri nko kwiga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'incuke bagomba kugira aho bandika hagufiya ku buryo abana bazajya bashyikira nta kibazo kibayemo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, bifashisha bimwe mu bishushanyo bigiye bitandukanye mu kwiga. Ibi bikabafasha kutarambirwa ndetse no gufata mu mutwe vuba.

Ibishushanyo bigaragaza imibare ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'incushuke, ibi bigafasha abana kwiga neza kandi bagafata vuba.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke mu isomo ry'imibare. Harimo: amarati, amakaramu y'ibiti, ibisiba ndetse n'ibindi.

Ibishushanyo bitandukanye ni bimwe byifashishwa mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'incuke mu rwego rwo gutanga uburezi bwiza kandi bunoze, ibi bigafasha abanyeshuri gufata mu mutwe vuba kandi bakiga bishimye.

Ibyapa biranga ni bimwe mu byashyizwe ku mihanda igi itandukanye mu rwego rwo kwirinda kuyoba ndetse no kuranga ahantu mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Abanyeshuri biga mu mamashuri yisumbuye barakangurirwa gukorera hamwe kandi bagakunda kwiga, kuko burya ngo iyimejwe n'ikaramu ntiramburura.

Abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye barakangurirwa kujya bakorana inama n'abanyeshuri babo bakabaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye harimo imyigire yabo ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri yisumbuye, barasabwa gukorera hamwe bakirinda gukopera mu rwego rwo kugira ngo ubumenyi bwabo buzamuke kandi bagere ku ntego bifuza.

Ababyeyi baba bafite abana biga mu bigo by'amashuri bacumbitsemo, baba bagomba kubasura mu rwego rwo kugira ngo bereke abana babo uko babashyigikiye.

Abanyeshuri biga mu bigo by' amashuri yisumbuye, barakangurirwa gushyiramo imbaraga bakiga cyane kandi bagakorera hamwe bakarangwa n'urukundo, ibi bikabafasha kugera ku ntego yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza barasabwa kujya biga neza kandi bakiga no kwihangira umurimo mu rwego rwo kwirinda ubushomeri igihe amasomo yabo azaba arangiye.

Abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, barakangurirwa kwihangira imirimo bagahanga udushya, mu rwego rwo kwirinda ubushomeri mu gihe basoje kwiga.

Abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, barasabwa kwihangira umurimo mu rwego rwo kwirinda ubushomeri mu gihe bazaba basoje amasomo yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, ni bamwe mu bagomba kwihangira imirimo, mu rwego rwo kwirinda ubushomeri, cyane cyane mu bari mu myaka ya nyuma isoza ndetse n'abasoje.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza ni bamwe mu bishimira serivisi bahabwa ndetse n'ubumenyi bakura muri aya mashuri dore ko bavuga ko iyo basoje baba babasha kwihangira umurimo.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, barasabwa kujya bihangira imirimo, yaba ari ibijyanye no gushushanya ndetse n'ubundi bugeni bugiye butandukanye, mu rwego rwo kwihangira imirimo izabarinda ubushomeri.

Ibigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza ni bimwe mu bigira imiryango iriho nimero iranga ibyumba, ibi bigafasha abanyeshuri bashya kumenya aho bari bwigire mu buryo bworoshye.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza barakangurirwa kwihangira imirimo ndetse bagahanga n'udushya kugira ngo birinde ubushomeri igihe bazaba barangije amashuri yabo.